Iyamamazwabikorwa ry'ikigo gishinzwe gutanga ubwisungane mu kwivuza, aho ashishikariza abaturage kuba bakwishyura bifashishije ikoranabuhanga rigezweho.

Icyapa cyamamariza ikigo runaka gishinzwe gutanga ubwishingizi butandukanye by'umwihariko kigafasha abaturage mu byerekeranye n'ubuhinzi n'uko babungabunga ibihingwa byabo ndetse bakanabafasha no mu gihe byaba byahuye n'impanuka.

Icyapa gikorerwaho iyamamazabikorwa by'ibigo runaka bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibishinzwe gufasha abaturage mu kuba babona ubwishingizi bw'ibikorwa byabo cyangwa inyubako zabo cyangwa imitungo yabo bwite.

Icyapa cyamamarizwaho ibintu bitandukanye by'umwihariko kikaba kiri kwamamariza ikigo runaka gishinzwe gutanga ubwishingizi by'umwihariko ubwerekeranye n'ubuzima ku muturage aho umuturage ashobora kubugana bakamufasha

Urubuga rwashyiriweho umuturage mu kumufasha kuba yagenzura uburyo konti yiwe ikoramo cyangwa ikoreshwamo, yaba yishyura cyangwa yakira amafaranga kandi mu buryo bworoshye, kandi bwihuse.

Uburyo bwashyiriweho umuturage kugira ngo abone cyangwa amenye uko amafaranga ye yagiye yinjira n'uko yasohotse ndetse n'ayo asigaranye yifashishije ikoranabuhanga.

Uburyo bwashyiriweho umuturage ku buryo ashobora kuba yamenya amakuru aranga konti ye n'uko yakwishyura cyangwa akabika amafaranga, yifashishije konti yiwe bitabaye ngombwa ko akajya gutonda umurongo.

Ahagurishirizwa ibitambaro byiza kandi bifite amabara meza cyane, bikaba bishobora gukorwamo imyenda itandukanye, yaba imyenda abantu bashobora kwambara cyangwa iyavamo imisego.

Isoko rigurishirizwamo imboga n'imbuto, by'umwihariko rigafasha abaturage boroheje kuba babona ibyangombwa ngenerwa kubera ko baba badafite amafaranga ahagije.

Cyiza kandi gishyashya kigezweho, umuturage ashobora kugendamo kandi akumva yisanzuye kubera ko gifite ubuziranenge kandi bwemewe kugira ngo kibe cyajya mu muhanda.

Imodoka nziza cyane kandi zifite amabara meza kubera ko ari nshyashya, umuguzi ashobora kuyigura kandi akayigendamo ku buryo burambye kuko iba igifite ubuziranenge.

Icyapa cyamamaza ibikorwa by' umumwihariko ku byerekeranye no kugura ibinyabiziga, kubi kubikora ndetse n'uburyo wabyitaho mu gihe uhindura amarangi yabyo.

Umuturage washyikirijwe imwe mu mpano zitangwa n'ikigo runaka, mu guteza imbere umuturage aho yahawe impano y'ikinyabiziga cyikorera imizigo mu buryo bwa rusange.

Ishimwe ryahawe umwe mu baturage, aho bari kumushimira kubwo bufatanye yagiranye n'ikigo runaka kandi akaba yahawe ishimwe ry'ikinyabiziga, nk'umwe mu bafatanyabikorwa babo.

Umwe mu bahawe ikinyabiziga nk'ishimwe kubera ubufatanye bw'ikigo runaka, kandi bakamuha ikinyabiziga cye gishyashya kimubaruriweho kugira ngo barusheho gugirana imifatanye no mu mikoranire ya buri munsi.

Umwe mu bakozi bashinzwe gufasha abaturage, mu byerekeranye n'uko babona amafaranga, cyangwa bakabika amafaranga, cyangwa bakabona ubundi bufasha mu kumenya ibyerekeranye na konti yabo.

Umuturage uri guhabwa ubufasha mu byerekeranye no kubikura cyangwa kubika amafaranga ye kandi agahabwa ubwo bufasha neza kandi muburyo bufite umutekano.

Ahatangirwa ubufasha ku muturage mu kubika cyangwa kubikura amafaranga ari kuri konti ye cyangwa kugira ngo ayohereze mu bindi bihugu.

Ibicuba bya kijyambere bikusanyirizwamo amata kugira ngo biyafashe kubikwa neza ari nako biyarinda kwangirika cyangwa kujyamo udusimba dushobora kwangiza abantu.

Ahacururizwa amata mu buryo bwemewe aho usanga amata ameze neza kubera ko bafite ibyuma byabugenewe mu kubika amata ndetse no kuyacungira umutekano kugira ngo atangirika.

Iduka ry'ubucuruzi by'umwihariko ricuruza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, aho ushobora gusanga hari amata meza kandi afite ubuziranenge, ndetse n'amazi ndetse n'ibyo ushobora kwifashisha uri kunywa ayo mata cyangwa ibyo binyobwa.

Ahacururizwa amata n'ibijyanye nabyo byose, ku giciro kiri hasi kandi hakaba hizewe kubera ko baba bafite ibyangombwa byose nkenerwa, kugira ngo bakomeze bayabike akomeze kuba ameze neza.

Ibikombe bikoze mu kirahure bifite ibishushanyo byiza ku buryo bigaragara neza, byagenewe kunywebwamo by'umwihariko amata cyangwa ukaba wanyweramo amazi.

Ahacururizwa ibyo kunywa by'umwihariko amata ndetse n'amazi kandi bikorohereza umuguzi, kuba yabona amata ameze neza kubera ko hari ibyuma bigezweho biyabika ku buryo atangirika.

Uburyo butandukanye bwashyizweho n'ikigo gishinzwe itumanaho kugira ngo ryorohereze umuturage kuba yakwishyura cyangwa akaba yagira ikintu akora yifashishije ikoranabuhanga n'igikoresho cye agendana cya elekitoroniki.

Uburyo bwashyizweho n'ikigo gishinzwe itumanaho mu gihugu ryereka abaturage uko bashobora kwishyura cyangwa bakagura ibintu runaka bifashishije ikoranabuhanga.

Ahatangirwa ubufasha ku byerekeranye no kwishyura bifashishije ikoranabuhanga kugira ngo byorohereze umuturage kuba yabikora bitabaye ngombwa ko abafite amafaranga mu ntoki.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwashyiriweho umuturage mu kuba yakwishyura cyangwa agakoresha amafaranga yiwe mu buryo bugezweho atiriwe ayakoreshaho intoki ahubwo akifashisha ikoranabuhanga rigezweho.

Ubutumwa bugufi bwohererezwa umuntu uri kohereza cyangwa uri kwakira amafaranga yifashishije ikoranabuhanga ko byemejwe cyangwa ko byanze ku buryo ashobora kuba yasubiramo.

Uburyo bwashyiriweho umuturage mu kwishyura yifashishije ikoranabuhanga kandi atiriwe akora ku mafaranga cyangwa ngo yirirwe ahamagara asaba ubufasha ahantu henshi.

Uburyo bwashyiriweho abaturage mu kwishyura bifashishije ikoranabuhanga rigezweho, kandi bagakoresha bimwe mu bikoresho byabo ngendanwa bya elegitoronike.

Inyigo nyandiko ikoreshwa kugira ngo ifashe umuntu ugiye kubaka cyangwa ufite gahunda yo kubikora, kugira ngo amenye amafaranga bizamusaba ndetse n'ibikoresho azakenera, kugira ngo abashe kubaka iyo nzu cyangwa ibyo bintu.

Ahakorerwa ibikorwa bitandukanye ndetse hagatangirwa n'ubufasha bwo kubona amafaranga cyangwa kuyohereza, kuba wakura amafaranga kuri konti yawe cyangwa ukayashyiraho, ndetse no kuba wabona amafaranga avuye mu bindi bihugu byo hanze, kugira ngo abashe kukugeraho neza.

Ahatangirwa ubufasha butandukanye ku muturage by'umwihariko uko yabona amafaranga avuye mu bindi bihugu kandi bakaba bamuhereza amafaranga ahuye neza n'ay'icyo gihugu gikoresha.

Ahatangirwa ubufasha ku baturage bifuza kuvunjisha amafaranga yabo bayakura mu mafaranga akoreshwa n'ibindi bihugu bakayashyira mu mafaranga akoreshwa n'igihugu barimo.

Intebe nziza, kandi zikozwe mu buryo bwiza bugezweho, zifite amabara meza, ku buryo uzibona ndetse n'uzicayemo, yumva yishimye, kandi ameze neza.

Intebe nziza kandi zisa neza, zigezweho, zishyirwa mu ruganiriro, ku buryo umuntu wese uzicayemo cyangwa uzibonye cyangwa akabona aho ziri, abona ko ari ahantu hasa neza, kandi akishimira kuba ari aho hantu.

Intebe nziza cyane kandi zigezweho zikozwe mu byuma ndetse n'ameza yayo akoze neza kandi afite imitako myiza bikoreshwa mu buriro kandi aho biri hagatuma hasa neza.

Intebe nziza cyane zikozwe mu buryo bugezweho zishyirwa mu ruganiriro, zikaba zifite imeza ndetse n'utumeza tundi duto bikozwe mu buryo bugezweho.

Ahakorerwa ububaji bw'ibintu bitandukanye urugero nk'utubati tubikwamo imyenda ndetse n'intebe zitandukanye n'ibindi bintu byose biva mu mbaho.

Inzu nini kandi nziza yubatse mu buryo bugezweho aho ushaka gusangamo ibintu bitandukanye by'umwihariko ibyerekeranye nuko wabonamo amacumbi ndetse n'ibyumba byiza ku buryo umuntu uharaye cyangwa ugiyeyo yishimira ubufasha bamuha.

Ahatangirwa ubufasha ku muturage uje ubagana, bakamufasha by'umwihariko mu kubona aho kuryama heza kandi hasa neza kandi afite n'umutekano.

Ahantu heza cyane kandi hasa neza, umuntu ashobora gusohokera ajya kwirangaza kugira ngo aruhuke, aho usanga ubwogero bwiza kandi bugezweho, ndetse hakaba hari n'ibiti bituma aho hantu hasa neza cyane.

Ahantu heza cyane umuntu ashobora gusohokera kandi akumva atuje hari ubwogero bugezweho kandi bukoze neza cyane ushobora kubona ubufasha butandukanye ibyokurya byiza ndetse n'ibyokunywa bimeze neza.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho kandi yubatse ahantu heza, ikaba ifite ubusitani bwiza, ikaba ikorerwamo ibintu bitandukanye harimo no gufasha ababagana kuba babona ibyumba byiza byo kuraramo kandi bakumva batuje.

Indabo nziza kandi zisa neza zifite amabara meza ku buryo ahantu ziri by'umwihariko mu ruganiriro cyangwa ahandi hantu aho ariho hose ntizigaragara neza kandi zigatuma hasa neza.

Inzu nini kandi nziza yegeranye n'umuhanda ndetse n'ahantu hari ibiti bituma haboneka umuyaga mwiza, ikaba ikorerwamo ibintu bitandukanye harimo ubucuruzi ndetse no kuba wahasanga bimwe mu byumba byiza kandi bikoze neza.

Icyumba gikorerwamo ibintu bitandukanye urugero, nk'ubukwe cyangwa inama cyangwa ibindi birori bitandukanye cyiza kandi gisa neza ku buryo abantu bari ahongaho bumva bisanzuye kubera ubwiza bwacyo kandi koko kiteguye neza cyane.

Ahantu heza cyane kandi hasa neza ku buryo uhicaye wese yumva atuje kubera ukuntu hameze neza, bakaba batanga ubufasha mu byerekeye ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya kandi bifite isuku.

Inzu nini kandi nziza yubatswe mu buryo bugezweho ikorerwamo n'ikigo gishinzwe gutanga ubufasha ku baturage mu byerekeranye n'uburyo bashobora kwishyura ubwishingizi bw'ibinyabiziga cyangwa indi mitungo yabo.

Inyubako nini kandi yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite umutekano kandi uhambaye, hakaba hari icyapa kigaragaza ibiyikorerwamo.

Inzu nini kandi nziza, yubatswe mu buryo bugezweho, ifite umwanya wabugenewe wo gushyiramo ibinyabiziga, ndetse iyo nzu ikaba itangirwamo ubufasha, ku byerekeranye n'uko wabona ubwishingizi bw'ibinyabiziga, cyangwa ibindi bikoresho, cyangwa ibikorwa byabo.

Ahatangirwa ubufasha butandukanye, urugero nk'ubufasha bwerekeranye n'uko wabika cyangwa ukabikuza amafaranga yawe, kuri konti cyangwa aho ushobora kubona ubwishingizi bw'ibinyabiziga byawe mu buryo bworoshye ndetse n'aho ushobora gukura ibyo kurya, ibyo kunywa urugero nk'amata kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kumera neza.

Ahakorerwa kandi hakanatangirwa ubufasha n'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, cyane cyane ubw'ibinyabiziga cyangwa indi mitungo itimukanwa.

Iyamamazabikorwa by'ikigo gishinzwe kwita ku mutekano w'amafaranga y'abaturage, aho bashishikariza umuturage kuba yakwizigamira cyangwa agafata inguzanyo kugira ngo arusheho kwiteza imbere.

Iyamamazwa ry'ikigo gishinzwe kubungabunga umutekano w'amafaranga y'abaturage, aho bashishikariza umuturage kuba yafata inguzanyo kandi ikaba yashobora kumuteza imbere haba mu bucuruzi ndetse no mu bindi bikorwa bye bitandukanye.

Isoko ricururizwamo imbuto ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, umuntu ashobora kwifashisha ari guhaha ku buryo ushobora kuhasanga ibyokurya bitandukanye ku giciro cyoroheje.

Imurikagurisha aho bari kumurika bimwe mu bigize umuco wabo kandi hakaba harimo n'imwe mu mitako ishyirwa mu nzu hakaba hari n'iyo kwambara kugira ngo bakomeze bagaragaze ibiranga umuco wabo.

Isoko rinini kandi ryubatse neza ku buryo abahacururiza bahacuruza bumva batekanye, kandi umuturage akaba yabonamo ibyokurya bigiye bitandukanye, urugero nk'imboga n'imbuto, kandi bifite isuku.

Isoko rihurirwamo n'abaturage batandukanye, aho ushobora kuhabona ibiribwa mu buryo bworoshye, urugero nk'inyanya cyangwa izindi mboga, kandi ku giciro kiri hasi.

Inzu nini kandi yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amagorofa atandukanye, irimo ibyumba byagenewe ubucuruzi, cyangwa indi mirimo itandukanye, kandi ku buryo umuturage wese, cyangwa umuntu uwo ari we wese, ashobora kuhagera mu buryo bworoshye.

Ibitenge bifite amabara meza kandi bigaragaza umuco w'abanyafurika, bikaba byambarwa n'abari n'abategarugori, mu rwego rwo kwirimbisha.

Isoko rihurirwamo n'abantu batandukanye, aho ushobora kubona ibyo kurya cyane cyane imboga n'imbuto ndetse n'ibindi bintu byagufasha kuba wagira ubuzima bwiza.

Urubuga rwashyiriweho abaturage mu kuba bashobora kubaza cyangwa bagasaba ubusobanuro ku byerekeranye n'ubufasha bahabwa n'icyo kigo kandi bakabuhabwa mu buryo bwiza kandi bwizewe bufite n'umutekano.

Umwe mu bakorana n'ikigo gishinzwe kohereza cyangwa gushyikiriza abaturage ibyo baba barahashye bifashishije ikoranabuhanga.

Ubusobanuro bwashyiriweho umuturage, ku buryo amenya icyo ihahiro, cyangwa igurishirizwa, yifashishije murandasi rikorwa, kandi n'akamaro kabyo, ndetse n'icyo byafasha abaturage, muri rusange.

Iyamamazwa ku muturage, aho yerekwa uburyo butandukanye, cyangwa imbuga zitandukanye, cyangwa amahahiro atandukanye ashobora gukoresha yifashishije ikoranabuhanga, kandi akabasha kuba yabibona bikanamugeraho mu buryo bworoshye.

Bamwe mu bashinzwe kugeza ku baturage ibintu baba bahashye bifashishije ikoranabuhanga kandi bagafasha abaturage kuba babibona mu gihe cyagenwe kandi bifite umutekano.

Ihahiro rikorerwa kuri murandasi rikaba rifasha umuturage kuba yahaha aho yaba ari mu gihugu agahaha ibituruka hanze yacyo ku giciro cyiza kandi bigakorwa neza.

Ubufasha buhabwa umuturage by'umwihariko uwifuza kumenya amakuru menshi kandi yihariye ku buryo bwerekeranye n'igurwa ndetse n'igurishwa ry'ibintu rikorewe kuri murandasi.

Urubuga rufasha abaturage mu kuba bamenyekanisha cyangwa bakamenyekanishwa ibicuruzwa byabo, cyangwa bakaba bahaha ibyo bicuruzwa byabo mu buryo bworoshye, bitabaye ngombwa ko bigira ku isoko.

Ihahiro rikorerwa kuri Enterinete, aho umucuruzi atanga ubutumwa bwamamaza , by'umwihariko mu gihe hari amahinduka yabayeho nko ku igabanyirizwa ry'ibiciro.

Ubwogero bwiza bwubatswe mu buryo bugezweho kandi busa neza cyane ndetse n'ubwiherero bwa kijyambere butuma ahantu hakomeza gusa neza kandi bigatuma harangwa n'isuku.

Inzu nziza kandi zubatswe mu buryo bugezweho, kandi zifite ubusitani bwiza, zikaba ziri ahantu heza ukaba ushobora kuhabona inzu yo guturamo ku mafaranga makeya kandi udahenzwe, ukaba unizeye n'umutekano waho.

Inzu nziza kandi isa neza yo guturamo, aho umuntu ashobora gusangamo ibikoresho bitandukanye, imitako myiza ndetse n'ibikoresho bya elegitoroniki bigezweho, bimufasha kuba yaryoherwa n'ubuzima.

Inzu nziza isa neza ifite amasuku kandi ifite amarangi meza agezweho ku buryo umuntu wese winjiyemo cyangwa uhageze abona ko ari ahantu hafite isuku.

Uruganiriro rwiza cyane kandi rugezweho, rukaba rufite intebe nziza zisa neza ndetse n'imitako myiza, harimo n'amarido meza. Hakaba hari n'igice cyagenewe kurirwamo gifite intebe nziza kandi zigezweho.

Inzu nini kandi nziza yubatswe mu buryo bugezweho ku buryo kuyituramo biryoha cyane kandi bikaba bisa neza kuko irimo ibyumba bibiri, hakabamo n'ubwogero bubiri kandi busa neza ku giciro kiri hasi.

Inzu nziza ifite umuryango ugezweho ukozwe mu buryo bwa gihanga, hakaba hari amarangi asa neza atuma ahantu hasa neza ndetse n'amarido meza agezweho ku buryo nawe ushobora kubyibonera ku giciro gitoya.

Inzu nziza ifite amarangi meza isa neza kandi ifite isuku ndetse ikaba n'ahantu hari umutekano ku buryo umuntu ashobora kuyibamo yishimye kandi yumva atuje, ikaba ibarizwa ahitwa kacyiru mu mujyi wa kigali.

Inzu nziza kandi yubatswe mu buryo bugezweho ifite amarangi meza atuma isa neza kandi ikaba ari ahantu heza hisanzuye, ikaba irimo ibyumba bitandukanye ndetse n'ubwogero ku buryo umuntu ashobora kuyikodesha ku giciro cyiza kandi akayibona.

Iduka rinini kandi rigezweho rigurishirizwamo ibintu bitandukanye yaba ibyoku kurya ndetse n'ibyo kunywa n'ibindi bintu bitandukanye aho umuguzi yishimira kandi akahabwa ubufasha bwiza kubera ko ahabwa ibyo kurya byujuje ubuziranenge.

Isoko rinini kandi ryubatswe mu buryo bugezweho rifite amagorofa atandukanye aho usangamo ibicuruzwa bitandukanye byaba ibyerekeranye n'imyenda n'imideri cyangwa ubundi bufasha umucuruzi ashobora gutanga agaha umuguzi.

Ahagurishirizwa imyambaro y'abagabo by'umwihariko amakoti ndetse n'amapantaro meza kandi agezweho, ukaba ushobora no kuhasanga amashati ajyanye n'ikoti ndetse n'ipantaro wahisemo.

Isinye ndetse na kashe igaragaza ikirango cy'igihugu runaka, aho umwe mu bayobozi yashyizeho ibyo bintu ko ari bibiri mu rwego rwo kwemeza imyanzuro cyangwa ibindi bintu biba byafashweho umwanzuro ntakuka.

Bamwe mu bayobozi ba leta bari gufasha abandi bahagarariye izindi nzego mu kuba basobanurirwa cyangwa bagasobanukirwa imikorere y'ikigo cyabo ndetse n'imikoranire hagati yabo n'abaturage.

Inama ihuriwemo na bamwe mu bayobozi b'ibigo bitandukanye aho barimo kuganira kandi bakanatekereza ku bintu byagirira igihugu akamaro.

Isoko rusange ry'abaturage ariko rikoze mu buryo bugezweho, rikaba ribonekamo ibintu bitandukanye, ibikoresho ndetse n'ibyo kurya ku buryo byorohera umuguzi kuba yatahana ibyo akeneye byose.

Ibyo kurya bitandukanye bikorwa mu ifu y'ibigori cyangwa iy'ingano, bakaba bavangiramo ibiryohera bigiye bitandukanye kugira ngo bitume haboneka udutsima twiza kandi tumeze neza tunaryoshye.

Isoko rinini kandi ryubatswe mu buryo bugezweho, ricururizwamo ibintu bitandukanye by'umwihariko ibyokurya, aharimo imboga ndetse n'imbuto zitandukanye ku buryo uhagana aje kuhahahira atagira icyo aha abura.

Iduka rigurishirizwamo ibyo kurya bitandukanye kandi biryoshye, ku buryo umuguzi ashobora kuza kubigura kandi akishimira uburyo bifitemo ubuziranenge.

Iduka rigurishirizwamo ibyo kurya bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu buzima bwa buri munsi, hakaba hari n'abantu babafasha kuba bagerezwa ibyo bahashye aho bigomba kugera.

Iduka rigurishirizwamo ibyo kurya kandi ni ryiza, risa neza, ukaba usangamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa byiza kandi bifite ubuziranenge.